Umwana wambaye umupira w'umutuku uri kuvoma amazi mu gikombe aturuka mu rukuta biragaragara ko yishimye cyane, ashimishijwe nuko ari kuvoma amazi meza kuko amazi ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu nzu ifite ibara ry'umuhondo ku bikuta hamanitseho ibipapuro bitandukanye, harimo intebe nyinshi, ingeri zose zitandukanye igitsina gabo, igitsina gore, harimo uducupa tw'amazi, amakayi bigaragaza ko hari ibyo bari barimo guhuguranaho.

Mu ishuri rifite ibara ry'umuhondo, harimo ikibaho cy'umukara cyanditseho icyandikwa, urwembe, umukoro wo mu rugo, harimo ingeri zitandukanye, umunyeshuri, abirabura batatu, igitsina gabo n'igitsina gore, ndetse n'umuzungu, bigaragara ko umwarimu arimo gusobanurira umunyeshuri.

Umusaza wirabura ugeze mu za bukuru ufite imvi biragaragara ko hari umuntu uri kumwitaho mu buryo bw'amasuku y'umubiri akoresheje amazi n'isabune kugira ngo abashe gusa neza cyane.

Mu ibara risa ubururu bwerurutse handitsemo Repubulika y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, hagati harimo ikirangantego gisa umweru, kirimo agaseke, ingabo, isaka ndetse n'izuba.

Abaganga bane b'abagore bambaye imyenda y'akazi isa ubururu n'udupfukamunwa, bahagaze hanze y'inzu y'ababyeyi iriho amadirishya iburyo n'ibumoso. Hanze hashashe amatafari ndetse hari n'ubusitani, indabyo n'ibyatsi.

Inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, harimo ibikoresho bitandukanye bisa ubururu, ifite idirishya ryinjiza urumuri n'umwuka, hanze hagaraga ibiti, muri iyo nzu harimo abasore babiri, umwe n'umutoza werekera undi ko akora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.